Urusengero rw'abayisilamu, aho abagabo n'abagore batonnze umurongo bashaka kwinjira mu rusengero, kugira ngo bakomeze igikorwa k'isenga nkuko biba byarateguwe ku munsi basanzwe basengeraho.

Ikigo nderabuzima aho abaturarwanda bajya gufatira serivisi zitandukanye bijyanye n'uburwayi bafite, kugira ngo barebe ko uburibwe bafite bwagabanuka, ndetse bakaba banakira bagasubirana ubuzima buzira umuze.